Ahantu ubona ko ari mu cyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga, aho ubona hari abantu barwaye n'abarwaza babo, abarwayi baryamye, abarwaza bicaye ku bitanda, harimo umurwaza umwe ubona afite agacupa k'amazi wagiraho ngo ari kukanywa.

Umuntu urwaye batwaye kuri burankare n'abandi bantu bikoreye amadobo, amamatora, amajerekani wagira ngo barimutse cyangwa barahunze.

Biragaragara ko hano ari umuganga uri gusuzuma ,abantu bafite ibibazo ,bishobora kuba ari bimwe kubona bafite ibipapuro bimwe, bishobora kuba ari ibyo bahawe n'amavuriro amwe ,bibohereza ku yandi mavuriro akuriye, ayananiwe indwara zabo.

Biragaragara ko aha ari mu nama aho bigaragara ko hari umuntu ahagaze imbere ashobora kuba afite ibyo arimo arageza kuri aba bantu baje muri iyi nama, nk'ingamba bashobora gufata se ku kintu runaka, nk'ibyo bashobora guhindura se, urabona na mbese yuko ari inama.

Abantu wagirango basuye abarwaye kwa muganga, bicaye ku gitanda gishashe na supanete.

Icyapa kigaragaza aho ikigo nderabuzima cya Nyagatare kiri, kikaba icyo cyapa giteye muri jaride iruhande rw'iyo jaride hakaba hari ibintu by'ibi burokesima imbere hirya hirya hakaba hari igiti n'umukindo.

Ahantu ubona ko ari mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga, aho ubona harimo ibitanda bimwe byicayeho abantu, hari n'amasupanete n'utugare tw'abarwayi.

Aha biragaragara ko ari mu cyumba cyo kwa muganga, aho abantu bashobora kuba barimo barahamanika icyapa runaka, aho bigaragara ko harimo n'umuganga muri bo wambaye itabariya ufite n'amaga mu ntoki, ndetse abandi bantu bo ubona bamanitse amaboko bameze nk'abarimo baramanika icyapa runaka.

Ababyeyi bateruye abana wagira ngo baje nko gukingiza kwa muganga bategereje ubakingirira abana bazanye gukingiza.

Imodoka iri imbere y'ahantu kwa muganga itwara indembe izivana ku bitaro bimwe izijyana ku bindi cyane cyane ikaba ibikora izijyana ku byisumbuye kubyo zari ziriho izo ndembe.

Abantu ubona bari guha akana umuti ubona ko ubanza ari abajyanama b'ubuzima bari kumwe n'ababyeyi b'ako kana.

Inzu iriho icyapa cy'Ikigo cy'Igihugu cy'iterambere imbere, iyo nzu hari jaride n'urugo rukikijwe n'amatibe y'ibyuma n'abantu babiri, umwe ari kureba kuri icyo cyapa aho umugabo n'undi mugore uri kureba ku ruhande wambaye amarinete.

Aho bacururiza imiti ivura abantu, aho abantu bajya kugura imiti batayikuye mu bigo bya leta by'ubuvuzi biguriye badakoresheje ubwishingizi.

Biragaragara ko ari igitambaro kiriho kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku itariki makumyabiri na eshatu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na gatatu aho bigaragara ko ari ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyari cyari kirimo kirafata ingamba zo kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge.

Abantu b'imbaga nyamwinshi wagirango bari mu nama, imbere yabo hahagaze undi muntu wagirango ngo hari ibyo arimo arabigisha, hari uducupa twamazi, intebe, ahantu wagira ngo ni mu nzu.

Abana b'abahungu ubona ko ari abakinnyi b'umupira w'amaguru bahawe impamyabumenyi yo kwitwara neza mu marushanwa.

Biragaragara ko aya mazu, ashobora kuba ari amavuriro, cyangwa, ikigonderabuzima, aho ubona hari abantu bicaye hanze bategereje, serivisi runaka. Bahabwa no kwa muganga.

Abantu wagira ngo ni abanyeshuri biga ubuganga bari mubushakashatsi.

Ahantu ubona ko ari ku kigo nderabuzima, abanyabuzima bafite nk'ikintu bakorewe kibashimisha cyangwa bishimira bakoze, aho ubona hari umuntu uri imbere yabo uri kubafotora, ubona ko bafite morale.

Umuntu w'umukobwa wagira ngo baje kuvuza muganga ari kumufata ibizami kugira ngo bamenye icyo arwaye, iruhande rwabo hapanze ibintu wagira ngo ni ibitabo, hari na bike n'akantu baciye bakuramo urushinge basuzumisha uyu mukobwa bari guzuma n'ibindi bintu by'ibyapa bimanitse.

abantu bambaye amataburiya n'impuzankano zisa n'ibyo bapfunyikamo mu ntoki.

Ibyapa bigaragaza ko aha ahantu bacuruza imiti y'amatungo, cyangwa se inyongeramusaruro y'amatungo, cyangwa bavura amatungo.

Ahantu bigaragara ko arimo ku ivuriro ryigenga cyangwa se ikigo nderabuzima runaka, aho ubona hicaye abantu hanze n'undi uhagaze mu idirishya, bashobora kuba bategereje guhabwa serivisi runaka.